Inzu zikorerwamo ibintu bitandukanye, zifite akamaro. Inzu ni ahantu ho kwikinga umuyaga kandi inzu ifite akamaro ko gutuma abantu batanyagirwa bityo umuntu agakomeza kubaho yishimye.

Hari uburyo bwo guhererekana amafaranga binmereriye kuri telefoni. Umuntu iyo ayahaye undi ngo amwoherereze undi uri ahantu atari akoresheje telefoni, abonaho inyungu nubwo iyo nyungu aba ari nkeya cyane.

Abaturage baba bakeneye ahantu ho kubika amafaranga ya bo kugira ngo abajura batayiba. Amabanki menshi ashobora kubafasha mu gukora ububiko bwa bo kugira ngo amafaranga yabo abikwe ahantu hizewe.

Abantu bacuruza amafaranga ahererekanywa ku ikoranabuhanga. Bakuramo inyungu nkeya cyane ariko kandi uko bacuruza ku bantu benshi niko bagenda bafata inyungu nyinshi.

Abantu bashobora kubona amafaranga, babinyujije mu bikorwa bitandukanye, harimo nko gucuruza amafaranga ahererekanwa ku matelefoni, aya mafaranga ashobora guhererekanywa mu gihugu cyose kandi muburyo bwihuse cyane.

Abantu bashobora kubona amafaranga bakoze ibikorwa bitandukanye, bamwe bashobora gucuruza amafaranga bayabikira abandi kuri telefoni, hanyuma bakayohererereza abandi bari mu bice bya kure.

Abantu hari uburyo bwinshi bashobora gukoresha kugira ngo amafaranga yabo atangirika, bashobora kwibumbira mu mashyirahamwe cyangwa se bakabika amafaranga yabo mu bigo by'imari kugira ngo abajura batayiba bityo bagahomba.

Abantu iyo bishyize hamwe bashobora kugura imashini ibafasha kudoda imyenda, abantu bakiri batoya bashobora gufasha abantu bakuze gukoresha iyo mashini, hanyuma bakagenda badodera abandi imyenda mu buzima busanzwe.

Kugira ngo abantu batere imbere bagomba kujya mu bigo by'imari. Ibyo bigo bibafasha gukora ubushakashatsi ku bijyanye n'ukuntu bakiteza imbere, ndetse bagashoramo amafaranga bakabona inyungu.

Abantu iyo bishyize hamwe mu matsinda ashobora kugera ku bintu byinshi kuko bashobora gushyira hamwe amafaranga bakayazigama, hanyuma ayo mafaranga akazabaviramo ikintu cy'ingirakamaro mu miryango yabo, bakayakoresha bagura ibintu bakeneye.

Kwibumbira mu matsinda bishobora gutuma abantu bagera ku gikorwa k'ingirakamaro bashobora nko kugura imodoka ishobora kubafasha mu gikorwa cyabo ubwo rero abaturage basabwa kwibumbira mu matsinda kugira ngo bagire igikorwa k'ingirakamaro bigezaho.

Kwibumbira mu matsinda bifasha abantu gukora ibikorwa bitandukanye, kandi abantu bishyize hamwe nta kintu gishobora kubananira. Bashobora gukora ibikoresho bitandukanye bakifashisha cyangwa se byaba na ngombwa bakabigurisha bakabona amafaranga.

Kwishyira mu mashyirahamwe ndetse n'amakoperative, bituma abaturage bakora ibikorwa mu gihe bahuje imbaraga, bagakora igikorwa kinini ku buryo umuntu umwe adashobora kugikora. Ubwo rero abaturage bakwiriye kwibumbira mu makoperative, bakagira ibintu bikorera.

Ibigori abaturage bahinga bigira akamaro kuko bifasha mu iterambere ry'igihugu, kandi bigatuma babona umusaruro. Ibigori barabirya hanyuma bakagira imbaraga. Kurya ibigori bifasha abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ahantu bacururiza ibinyobwa haba hari abantu batera urwenya ndetse baganira. Abantu bagiye kugura inzoga baba bafite amafaranga ahagije kandi umuntu ashobora kugura indi nzoga hanyuma bakanywa bakanezererwa rwose.

Ahantu hakirirwa abantu benshi, bacuruza ibyo kurya, babona amafaranga menshi kuko abantu bacururiza aho ngaho, bashobora kubona amafaranga akubye, ay'abantu bacuruza ibintu bisanzwe.

Amahoteli menshi akunda kuba aririmo inzoga, inzoga ni ikinyobwa umuntu anywa akumva arishimye, kandi inzoga ihuza inshuti, hanyuma zikaganira zikishimira ibyo zagezeho.

Mu nzu z'ubucuruzi hacururizwa ibintu bitandukanye, umuntu ashobora kujyamo ashaka akabibona bitewe n'uburyo abikeneyemo, ariko kandi hari n'ibintu bicuruzwa bishobora kuba bitemewe, bityo igihugu kikabuza abo bantu kubigurisha.

Inyubako zicururizwamo ibintu bitandukanye, ziba zifatiye runini abaturage kuko bashobora kwagurira ibintu badafite, bityo ubushobozi bwabo bwo kugura ibintu bukagenda busumbana bitewe n'amafaranga bafite.

Abantu bafite amaduka bashobora gucuruza ibintu bitandukanye bagamije kunguka. Umuntu iyo agiye akarangura ibintu ku mafaranga make akabicuruza ku mafaranga menshi abonaho inyungu. Iyo nyungu ashobora kuyikoresha mu bindi bintu nabyo bikamuha indi nyungu irenzeho.

Ibintu bicururizwa mu maduka biba bitandukanye bitewe n'ubushobozi bw'umucuruzi, ashobora gucuruza ibintu byinshi cyangwa bikeya, niyo mpamvu n'inyungu yabo iba itandukanye.

Umuntu ucuruza ibicuruzwa runaka cyangwa se, ubwoko bw'imyenda, iyo abonye abantu baje kumugurira arishima cyane. Bikamushimisha kurushaho, iyo ari benshi kuko abona amafaranga menshi.

Kurya amagi bituma umuntu agira ubuzima bwiza, umwana ukiri muto aba akwiriye guhabwa amagi nibura buri munsi kugira ngo imikurire ye ikomeze kugenda neza.

Inzu zicururizwamo abantu barazikodesha cyangwa se bakaba baraziyubakiye, mu maduka gusangamo ibikoresho bitandukanye; harimo amatelefone, imyenda ndetse n'inzoga umuntu ashobora kunywa.

Amasoko acururizwamo amavuta nayo aba akwiriye gupimwa kugira ngo arebe ko yujuje ibyangombwa kugira ngo acuruze. Amavuta aba agomba kuzuza ibyangombwa bisabwa n'amategeko kugira ngo atangiza abaturage.

Mu maduka umuntu ashobora kuhagera akabonamo ibikoresho ashobora kwifashisha nk'imiti yoza amenyo kugira ngo bimufashe nawe kugira amenyo meza, bityo iyo miti umuntu ashobora kuyishura amafaranga.

Inyubako z'ubucuruzi zicururizwamo ibintu bitandukanye. Harimo: ibyo kurya, imyambaro ndetse n'ibindi. Abantu bafite inyubako bacururizamo babona inyungu nyinshi kuko bashora amafaranga make bagakuraho inyungu.

Abantu bagira umwete mu kazi hari ibintu byinshi bageraho. Ariko kandi mu nsengero hakorerwa ibintu byinshi bituma abaturage batura amafaranga. Niyo mpamvu hari abantu biyiriza ubusa baje mu nsengero kandi bagakora uko bashoboye ngo bashimishe abayobozi babo.

Mu nsengero nyinshi higishirizwamo ijambo ry'Imana abantu bashobora no gutangamo amafaranga, ayo mafaranga ashobora gukoreshwa neza cyangwa nabi bitewe n'ubumuntu umuyobozi w'urusengero agira.

Kunywa amazi bigirira akamaro abantu kuko bituma bagira ubuzima bwiza kandi ibikorwa aba akora byose bikagenda neza, iyo umuntu anywa amazi abaho igihe kirekire kandi yirinda indwara zirimo umwuma n'izindi.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye bagira uruhare mu iterambere ry'Igihugu, abantu bose bakwiriye kugira uruhare haba mu kwinjiza amafaranga, ni yo mpamvu insengero hari amafaranga zigomba gusora.

Inyubako ziba zitandukanye ariko zigomba kuba zose zisakaye kugira ngo umuntu uzirimo atanyagirwa, abantu benshi bakunda inyubako nziza kandi zifite ubusitani, ariko iyo inyubako iri imbere y'umuhanda igira agaciro cyane.

Abayobozi benshi b'amadini, bigisha bafite intego yo kwaka abantu bigisha amafaranga kugira ngo ayo mafaranga bayakoreshe mu nyungu zabo, bitewe n'ubusambo baba bafite bwo gukoresha amafaranga.

Inzu ifite isuku kuyibona bishobora kugorana, ariko kandi amahoteli ashobora kugaragara neza mu gihe afite isuku kandi afite inyubako zihenze, niyo mpamvu akenshi amahoteli abona abakiriya benshi kuko aba afite inyubako zihenze

Ahantu abantu bacumbika, hakwiriye kuba hafite isuku kandi hari ibikoresho byose bihagije bituma umuntu yumva aguwe neza. Hakwiye kuba hatari akavuyo kuko umuntu aba yifuza inzu nziza itarimo akavuyo.

Mu mahoteri menshi haba hafite isuku harimo ibitanda byiza cyane biriho matera umuntu aryama ukumva aguwe neza, ibyo bifasha abakiriya benshi gukunda amahoteri ameze neza.

Amahoteli agomba kugira isuku kugira ngo n'abayagana babe benshi. Amahoteli atagira isuku ntashobora kuganwa n'abantu benshi kuko abantu bishimira isuku y'ahantu bagiye, mu mahoteli aba ari inyubako nziza cyane.

Amahoteli abafite abakozi bazi gutanga ikaze, ku buryo umuntu wese ashobora kubisanzuraho, hanyuma bakamuha ibyo akeneye na we akabishyura amafaranga, baba bakeneye.

Abantu bashaka kwidagadura bashobora gutemberera ahantu hari amazi, kwidagadudurira mu mazi bifasha abantu kwishimana, kandi bakumva baguwe neza cyane cyane ku gihe cy'akazuba.

Abayobozi bakwiriye kubahwa cyane, kubera ko bafitiye akamaro igihugu. igihugu gifite abayobozi beza gitera imbere, kandi abayobozi beza batuma iterambere ry'umuturage rihora ku isonga.

Amahoteri akunda kugira amatara mo imbere, mu gihe bwije agakongereza abantu bakareba. Mu mahoteri iyo hatari amatara ahagije, abantu bashobora kwitahira kubera ko baba batabona uko banywa cyangwa barya.

Inyubako zitandukanye zifasha abantu mu kuga imvura, ariko nanone hari inyubako umuntu abona, akabona bisaba amafaranga menshi kugira ngo ayubake, niyo mpamvu nk'umusore aba agomba kubanza gutekereza neza k'inzu azubaka mbere yo kuyubaka.

Hari amahoteli aciriritse usanga afite umwanda ku buryo kuryamamo bishobora kubera umuntu imbogamizi, ayo mahoteli kuyishyura bisaba amafaranga make ariko kandi ibyiza ni ukuhagirira isuku.

Ahantu abantu bahurira hashobora kumera neza bitewe nuko haba hateguwe, by'umwihariko amahoteli agomba kugira isuku kugira ngo abantu bahagana bishime kandi abakiriya biyongere buri munsi.

Ubusitani bumeze neza, bukunze kuba akenshi imbere y'amahoteli kubera ko abantu iyo bagiye gusura ahantu cyangwa bashaka ahantu no gucumbika, babanza kureba niba hari ubusitani.

Amahoteli agira uruhare mu gucumbikira ba mukerarugendo, ubwo rero isuku yayo ibagomba kwitabwaho kugira ngo ba mukerarugendo batagenda bavuga nabi igihugu, bitewe n'amahoteli.

Ahantu abantu baryama haba hameze neza hafite isuku kandi abantu baryama mu mahoteli bashaka ahantu hafite isuku ku buryo umuntu aryama kumva aguwe neza. Niyo mpamvu ibigo byinshi bikoresha uko bishoboye kose bikagira isuku.

Inyubako zigeretse abantu babamo, baba bakwiriye kwitonda mu gihe bazigenda hejuru kuko bashobora kugenda nabi bakaba bahanuka, ubwo rero mu gihe umuntu yubatse inyubako igeretse, abagomba gushyiraho uruzitiro kugira ngo abahagenda batagira ikintu baba.

Uburiri buba mu mahoteli buba bufite matela nziza ku buryo umuntu ajyayo akaryama akumva amerewe neza, kandi kuryama kuri izo matola birashimisha cyane. Umuntu wese wishyuye amafaranga ntiyicuza kubera ko aryama neza.

Amahoteli menshi aba afite ahantu hatandukanye nyaburanga, umuntu ashobora kureba kumva arishimye, ibi bikurura abantu benshi, bakaza bakaharuhukira, hanyuma bakishyura amafaranga.

Amahoteli acumbikira abantu akunda gukundwa cyane iyo arimo ibitanda byiza, umuntu ufite umushinga wo kubaka hoteli agomba kubanza gutekereza ku bitanda azashyiramo kuko nabyo bigira uruhare mu gukurura abakiriya.

Ibikoresho byifashishwa mu kurya nabyo umuntu ashobora kubisanga mu isoko, bimwe muri byo harimo amasahani yo mu bwoko butandukanye, ndetse n'ibindi bikoresho birimo ibikombe, umuntu ashobora kwifashisha anywa igikoma.

Ibimera bituma abantu bagira ubuzima bwiza ibimera bimwe bishobora kuvamo imiti abantu bifashisha bavura abandi bishobora no kuvamo ibyo kurya abantu barya naone kandi ibimera bishobora kuvamo imiti y'amatungo.

Imbuto zicururizwa mu isoko zungura abacuruzi kubera ko babona amafaranga yo kugura ibintu bakeneye, kandi mafaranga bashobora kuyakoresha mu kurangura ibindi, bityo umuturage nawe akabona ibyo akeneye ku gihe, ndetse akaba yabaha amafaranga.

Amasoko acuruza imyenda, ashobora kuba atandukanye ariko ibintu bicururizwa mu isoko byose bisaba ko umuntu aba afite amafaranga mu gihe agiye kubigura, imyenda icuruzwa igomba kuba ifite isuku kandi imeshe.

Mu masoko atandukanye ushobora no kuhasanga ibikoresho byifashishwa mu bwubatsi. Ibyo bikoresho babicuruza ku mafaranga makeya kandi umufundi cyangwa undi muntu ushaka kubaka inzu, ashobora kugenda mu isoko akabyigurira.

Abantu bakora ibishoboka byose kugira ngo bagire ubuzima bwiza, niyo mpamvu mu gihugu hagenda hashyirwaho amasoko atandukanye, kugira ngo abantu bagurire muri ayo masoko ibintu byose bakeneye, bashobora no kubonamo ibikoresho bibafasha mu gutembera harimo ibinyabiziga birimo moto.

Abantu bacuruza mu isoko imyenda. Babona inyungu nyinshi cyane kubera ko gucuruza imyenda hari amafaranga babonaho kuri buri mwenda. Ayo mafaranga aba aruta cyane, ayo abantu bashoye barangura.

Hari abacuruzi baciriritse, bacuruza ibintu byabo barashoye amafaranga makeya, bimwe mu bicuruzwa bashobora gucuruza, harimo igikukuru, amavuta, ndetse n'ibindi, gucuruza ibicuruzwa bifite umwanda bihanwa n'amategeko.

Abantu bashaka amafaranga bagomba kwitondera uburyo bayashakamo, gusa hari uburyo bwinshi bashobora kuyashakamo nko gutwara abantu hakoreshejwe amamoto, ndetse n'ibindi bikoresho ibi ni ingirakamaro.

Gutembera hifashishijwe ibinyabiziga bifasha umuntu kugera ahantu agiye vuba, kandi urugendo ntabwo ruba rurerure, ndetse no kuvunika biragabanuka kubera yuko atagenda n'amaguru.

Gutwara abantu ndetse n'ibintu bigira akamaro kuko bituma umuntu atwara abantu ndetse n'ibintu abona amafaranga akeneye. Hari uburyo bwinshi bushobora gukoreshwa mu gutwara abantu gutwara abantu ku igare cyangwa se mu imodoka.

Abantu batwara abagenzi nabo baba bakwiriye kugira isuku kandi baba bakwiriye kuvuga amagambo meza abafasha kumvikana n'abantu bagiye gutwara. Ubwo rero ibinyabiziga bigira akamaro cyane iyo bifite umuntu ubikoresha ariko ugira ikinyabupfura.

Imihanda igira uruhare mu gutuma abaturage batembera bakava mu gace kamwe bakajya mu kandi, imihanda ituma abaturage bamenyana kuko abantu ba kure bashobora gutega imodoka bagasura uduce twa kure bityo na bo bakungukirwa.

Abantu bashobora kugenda ingendo ndende, bifashishije ibinyabiziga. Abantu babifitiye uburenganzira nibo baba bemerewe gutwara ibyo binyabiziga. Gusa mu gihe umuntu adafite uburenganzira bwo gutwara ikinyabiziga, ashobora gutanga amafaranga bakamutwara.

Imihanda ituma abantu batembera bakava mu gace kamwe bakajya mu kandi, umuhanda iyo umeze neza umuntu ufite ikinyabiziga agenda nta nkomyi, ariko umuntu yemererwa kugenda mu muhanda ari uko gusa afite ibyangombwa.

Ibinyabiziga bigira uruhare mu gutwara abantu ndetse n'ibintu, gihe umuntu adafite amafaranga ashobora gutega akishyura amafaranga runaka, bakamujyana aho agiye n'ubwo yaba adafite ikinyabiziga.

Gutwara abantu n'ibintu ni igikorwa cy'ingenzi kuko gifasha abagenzi kugera aho bajya bitabagoye, umuntu wese yaba afite igikoresho kimutwara cyangwa atagifite, ashobora kwishyura amafaranga agatwarwa.

Imihanda iba ifitiye akamaro abaturage, kuko bashobora kuyikoresha batwara ibintu byabo. Bashobora gutwaramo imyaka basaruye bayijyanye mu rugo, kugira ngo abajura batayiba, cyangwa kugira ngo ivemo ibyo kurya by'abana.

Abantu batwara abantu baba bafite ubuhanga bwihariye kubera ko mbere yo kujya mu muhanda abanza guhabwa icyangombwa kimwemerera gutwara, iyo atagifite agafatwa arahanwa byemewe n'amategeko.